Umudamu n'umugabo bari mu byatsi birebire cyane bizwi ho nk'umukenke umudamu umwe yambaye umupira w'umweru akinnye n'igitenge yiteze ikindi umugabo yambaye ipantaro y'ubururu irimo ibara ry'umweru n'umupira w'umukara afite umuhoro mu ntoki n'agacupa yambaye kamambiri zisa umutuku ruguru yabo hari uruzitiro rw'ibyuma.